Abavomyi baje kuvoma ku ivomero rusange, bateretse amajerekani ku murongo kugira ngo hagende havoma umwe umwe, bityo ni byiza ko tuvoma amazi meza.

Mu by'ukuri ihuriro ry'abaganga b'inzobere bahuriye hamwe mu mahugurwa yo kwiga uburyo bakita ku buzima muri iki gihe bwugarijwe n'indwara zitandukanye.

Gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune ni byiza cyane kuko birinda indwara nyinshi zitandukanye, bitewe n'uko umuntu aba yakoze ku bintu byinshi haba hari utumikorobe twamwinjiyemo.

Abagore baje ku ivomero rusange bateze ibitambaro, harimo uri kuvomera indobo n'abandi bahagaze.

Umwana mutoya wambaye agapira k'umutuku, ari kuvoma amazi kuri robine rusange, gusa aya mazi aranduye, ndetse ashobora kumutera indwara. Ni byiza gushishikariza abana kunywa amazi meza, atabatera indwara.

Ku ivomo rusange hahurira abaturage benshi, baje kuvoma amazi meza, ni byiza ko tuvoma amazi meza kugira ngo natwe tugire ubuzima buzira umuze.

Umubyeyi w'umuzungu ufite mikoro, ari kwigisha abantu uburyo bwo kwita ku buzima bw'abarwayi batandukanye, ndetse bakabaha serivisi bakeneye.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bitabwaho mu buryo bushoboka bwose ku buryo bafata ifunguro ku ishuri ryiganjemo ibishyimbo, akawunga ndetse n'imboga zitandukanye.

Abaganga bose bahuriye mu nama, yabereye mu Rwanda, aho hari hari n'idarapo ry'u Rwanda, bose bize ku kibazo gihangayikishije isi ari cyo ubuzima.

Abaganga bipfutse ndetse barinze amasura yabo rwose, bambaye uturindantoki, amataburiya, bigaragara ko bafite impamvu, bari iruhande rwa zakandagira ukarabe.

Mu by'ukuri isi yose ikwiye guhagurukira kwita ku buzima ndetse no gukangurira abantu bose kwirinda indwara zitandukanye, kugira ngo babashe kubaho mu buzima bwiza.

Umuntu uvoma amazi agomba kuvoma amazi meza, igihe cyose agiye kuyanywa, nta byo kuvoma amazi ku bihombo byaturitse.

Umwana ari kunywa amazi kuri rubine ndetse akaba ateze indobo y'amazi kugira ngo abone ayo acyura bityo ni byiza ko tunywa amazi meza.

Imbaga y'abaturage biganjemo abakecuru n'abasaza bitabiriye inama yabereye ku kagari, yigaga ku kibazo cy'ubuzima buhangayikishije muri iki gihe.

Muganga wambaye itaburiya ndetse n'uturindantoki akaba afite i baji mu ijosi akaba ari kwita ku mwana mutoya areba ikibazo afite, kuko yaje aje gushaka serivise z'ubuvuzi azanywe na nyina.

Muganga yita ku mwana uko yaba angana kose akamusuzuma akamenya ikibazo afite, bityo akamwandikira imiti imukwiriye.

Ni byiza kunywa amazi meza atetse, aho kugira ngo uvome kuri kano n'intoki nurangiza uhite uyanywa, kubera ko ashobora kugutera indwara.

Mu rwego rwo kwita ku buzima bw'umwana ni byiza kumujyana kwa muganga agahabwa ibyagenewe abana bitewe n'ikigero agezeho cy'imikurire bityo umuganga ubifite mu nshingano akamwitaho.

Ihuriro ry'abaganga batandukanye barimo abambaye amakote, amashati meza y'ubururu ndetse n'ay'imyeru bahurijwe hamwe mu nama ndetse buri wese afite amazi imbere ye ari kugenda anywa.

Umuganga wambaye neza agapfukamunwa, yambaye uturindantoki ndetse akaba yambaye itaburiya, yita ku murwayi urembye ndetse abaganga bagenzi be bakamufasha kugira ngo bakurikirane ubuzima bw'umurwayi neza.

Nyuma yo koza amasahani ni byiza kuyanika ahabugenewe hagera izuba kugira ngo yumuke mbere yo kuyariraho, bityo bidateza indwara zikomoka ku mwanda wo kutoza ibikoresho neza.

Abaforomo n'abajyanama b'ubuzima bitabiriye amahugurwa, batahanye ingamba nshya zo kwita ku buzima bw'abaturage, ndetse no kubagira inama ku bigendanye no kwirinda indwara zitandukanye.

Umunyeshuri uvuye kwiga, ari gukaraba amazi meza n'umuti wica udukoko uzwi mu cyongereza nka ''Handi Sanitizer'' ari gukaraba kuri kandagira ukarabe.

Umuryango w'abibumbye wita ku bana ushinzwe guteza imbere imibereho myiza y'abana, gushishikariza ababyeyi bo ku isi yose ko buri mwana wese agomba kwitabwaho.

Abana baje kuvoma bazanye amajerekani, utuvido ndetse bakaba baje kuvoma kuri robine ipombwa, bityo hakaba hari umusore uri kubapombera amazi.

Ikigo nderabuzima kigomba guhora gifite amazi meza ndetse gifasha umurwayi wese kubona amazi meza.

Umwana mutoya ari gukaraba kuri kandagira ukarabe ndetse ni ibintu byiza cyane rwose, babyeyi dushishikarize abana gukaraba amazi meza n'isabune.

Umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse wambaye n'ibaji arimo arasoma ibyemezo bamaze gufata ku murwayi.

Abagabo bambaye amakoti n'amakaruvati baberewe rwose, bose bakaba bahuriye mu nama ya bibiri na cumi na karindwi yo kwita ku buzima.

Abitabiriye inama bose bari bafite imbere yabo ku meza amazi yo kunywa kandi akaba ari amazi meza apfundikije imifuniko y'ubururu ndetse ari mu icupa rya purasitike.

Abaganga bose bambaye udupfukamunwa ndetse bambaye amakote n'amakaruvati barimo abagore babiri, bose bitabiriye amahugurwa yigaga ku buzima.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC gishishikariza abantu bose kwirinda kanseri y'ibihaha, kubera ko kanseri y'ibihaha ni imwe muri kanseri zihangayikishije muri iki gihe.

Mu by'ukuri abana batoya nabo bitabwaho ndetse ubuzima bwabo bukwiye gukurikiranwa, kugira ngo bahabwe ibyabagenewe birimo nk'udushongi ndetse n'indi miti nka vitamini.

Ni byiza kuvoma amazi meza kuri robine yabugenewe, kugira ngo wirinde indwara zikomoka ku mwanda, uterwa no gukoresha amazi yanduye ndetse igihe ugiye kuyanywa, usabwa kubanza kuyateka.

Abana baje kuvoma, ijerekani iteretse ku mugezi iri kujyamo amazi, ndetse umwana umwe ari inyuma ari gupomba kugira ngo amazi aze kubera ko bari kuvoma ku mugezi usabwa gupomba kugira ngo amazi aboneke.

Abaganga bose bambaye amataburiya y'ubururu ndetse bambaye udupfukamunwa ndetse imitwe yabo nayo irapfutse, bambaye ibintu bimeze nk'ingofero by'umweru.

Abaganga bambaye amadaburiya y'umweru barimo n'uteze igitambaro ndetse n'undi wasutse imisatsi bose bari kwandika mu gitabo barebera kuri telefone.

Abantu batandukanye hari umugabo n'umugore, bafite igishushanyo gishushanyijeho umwana w'umukobwa n'umuhungu, umugabo n'umujyanama w'ubuzima ari kumwemwereka uburyo umwana aba ameze iyo yakuze neza ataragwingiye.

Abantu baje kuvoma benshi cyane bose bakaba baje ku ivomero risaba ko umuntu apomba kugira ngo amazi aze.

Amazi yo mu mibande aturuka mu mahombo icometswe mu misozi, rimwe na rimwe ni amazi ashobora gutuma abantu barwara indwara zitandukanye zikomoka ku mwanda.

Umubyeyi w'umumama yikoreye indobo nini irimo amazi y'umutuku akaba afite n'indi ndobo mu ntoki nayo irimo amazi ariko yo ikaba ari indobo y'umuhondo.

Abaganga n'abaforomo bitabiriye inama yigaga ku by'ubuzima, bagize uruhare mu gutanga ibitekerezo bitandukanye.

Umugabo ukuze yaje kuvoma amazi ariko ahageze asanga nta mazi arimo, bityo yicara ku ijerekani ategereza ko amazi aza kuza.

Umwana mutoya ari gupomba amazi kuri rubine y'ipombo ndetse undi na we ateze amajerekani kuri robine, ari kuvoma amazi meza ni byiza gukoresha amazi meza yabugenewe.

Uruhurirane rw'abantu barimo abagabo, abagore bambaye imyenda yumutuku ndetse n'y'imyeru bitabiriye inama yabereye ku kagari.

Abaje ku ivomo rusange bose bazanye amajerekani ndetse buri muntu atondeka ijerekani ye ku murongo bitewe n'igihe yaziye hanyuma bakagenda bavoma umwe, umwe.

Mu myaka icumi ishize, hari icyuho kigaragara muri serivisi zihabwa ababyeyi batwite ndetse n'abana bavuka ku buryo wasangaga rimwe na rimwe batitabwaho cyane.

Abaganga baganirije abana batoya bambaye inifomo uburyo bakita ku buzima bwabo butandukanye bityo bikabafasha kwirinda indwara.

Itsinda ry'abaganga, bagize amahugurwa yo kwita ku buzima butandukanye, by'umwihariko bakaba bashishikariza abantu bo mu cyaro, gukomeza kwirinda indwara zitandukanye.

Loading ni ijambo rikunze kugaragara muri sisitemu z'ikoranabuhanga, igihe hari amakuru wasabye ataranozwa, aho bivuga ko ugomba gutegereza gato, kugira ngo ibyo wasabye bibashe kukugeraho.

Umwana mutoya uvoma amazi kuri robine akoresheje intoki, yarangiza akayanywa, ntago ari byiza, kuko bishobora kumutera indwara, ubusanzwe umuntu anywa amazi atetse, ariko aya ngaya ntago aba atetse.

Abantu bose bitabiriye inama buri wese afite imbere ye icupa ririmo amazi yo kunywa mu rwego rwo kwita ku buzima bwabo kuko ari nabwo baje kwigaho.

Abitabiriye amahugurwa yo kwita ku buzima bwo mu mutwe ndetse no kuganiriza abafite ibibazo byo mu mutwe bahawe seritifika igaragaza ko bitabiriye ayo mahugurwa.

Mu byukuri birakwiye kurwanya ihohoterwa kuko buri muntu wese yagakwiye kugira uruhare mu kurwanya ihohoterwa rikorerwa abantu by'umwihariko bafite ibibazo byo mu mutwe.

Umuntu ufite ibibazo byo mu mutwe ntago ari uwirutse ku musozi gusa ahubwo n'umuntu wifitiye icyizere gike na we aba afite indwara zo mu mutwe bityo ni byiza ko aganirizwa.

Umugore ufite indangururamajwi ari kuvuga, yicaranye n'umugabo wambaye agapira k'umukara gashushanyijeho akantu k'icyatsi, imbere yabo ku meza hari akamalete. Uyu mugore ari kuvuga ku bijyanye n'indwara zo mu bwonko, abantu baba bafite ibibazo bitandukanye.

Ubuzima bwo mu mutwe nyamara ni ikibazo gihangayikishije, itsinda ry'abantu batandukanye, ndetse barimo n'abayobozi, bose bahuriye hamwe mu gikorwa cyo kuganiriza, abafite ibibazo byo mu mutwe.

Mu by'ukuri ni byiza kwita ku buzima bwo mu mutwe ndetse no kwirinda indwara zo mu mutwe kubera ko rimwe na rimwe bishobora gutuma umuntu ahangayika ndetse akagira agahinda gakabije.

Umuntu wese ufite uburwayi bwo mu mutwe cyangwa afite ibindi bibazo by'imitekerereze ni byiza ko aganirizwa akagirwa inama bityo akaba yabasha gukira.

Ni byiza kuganiriza abafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe kubera ko bibafasha gukira neza ndetse bakabasha kwiyumva muri sosiyete.

Umukobwa mwiza, wambaye ipantaro izinze akaba amaze kugira ikibazo cyo mu mutwe, bityo akaba akeneye kuganirizwa.

Umukecuru bigaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se ibindi bibazo bishingiye ku buzima bwo mu mutwe, yipfutse mu maso ndetse bigaragara ko yihebye.

Muganga ushinzwe kwita ku buzima bwo mu mutwe ndetse no kuvura indwara zitandukanye zo mu mutwe, agira inama abantu kuganiriza uwo babonye afite imyitwarire idahwitse.

Abantu bafite ibibazo byo mu mutwe rimwe na rimwe usanga bihebye ndetse bakagira imyitwarire idasanzwe ugasanga nk'umuntu w'umugabo ntago yiyitaho ndetse ukabona ameze nk'umwana muto cyane.

Ni byiza ko duharanira kwita ku buzima bwo mu mutwe, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu, habayeho umunsi Mpuzamahanga ku isi wo kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Umugabo ufite indwara yo mu mutwe, ari kwitabwaho n'abamama batandukanye, bamuganiriza ndetse bamufasha kugenda yiyumva nka bo.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe mbese bamwe dukunze kwita abasazi bagira imyitwarire idahwitse nko gukusanya ibyambagara, kwambara imyenda bibi ndetse byashyaguritse no kugira urusatsi rwinshi rujagaraye.

Rimwe na rimwe abakecuru bakunze kugira indwara zo mu mutwe nyamara ntibabimenye niyo mpamvu buri muntu wese asabwa kuba maso.

Umuntu ufite uburwayi mu mutwe bigaragara ko asa nabi cyane, afite ibisatsi bibi ndetse n'ibyanwa bifite umwanda, biragaragara ko asa nabi cyane, ari imbere y'inyubako ifite amabati ashaje asa umutuku.

Itsinda ry'abantu bitabiriye amahugurwa yabereye ku bitaro aho bigaga ku bibazo by'indwara zo mu mutwe ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe bamaze gukora amahugurwa bahise bifata ifoto.

Umubyeyi ufite isuka ndetse akaba yikoreye igitebo kirimo imigozi yavuyeho ibijumba, akaba agiye gutegera abana.

Umuganga ushinzwe indwara zo mu mutwe, ari iruhande rw'icyapa cyanditseho amagambo agaragaza yuko tugomba kwita ku buzima bwo mu mutwe ndetse tukirinda indwara zitandukanye zihafata.

Muganga wita ku ndwara zo mu mutwe, ndetse uzobereye mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, agira inama abantu bose, ndetse agasaba buri wese gufata iya mbere mu kurwanya izi ndwara.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe abenshi dukunze kwita umusazi, afashwa mu buryo bwo kumuganiriza kugira ngo abashe gukira.

Umuntu ufite ibibazo byo mu mutwe by'umwihariko umuntu wasaze rimwe na rimwe baramuzirika amaguru ndetse n'amaboko kugira ngo atabacika.

Rimwe na rimwe hari igihe abantu bibwira ko ubuzima bwo mu mutwe, ari ubuzima bukunze kugirwaho ibibazo ku bantu bakuru ,nyamara n'umwana muto ashobora kugira ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe.

Mu byukuri ni byiza kwita ku buzima bwo mu mutwe, aho ugomba kugira umutwe ukomeye, kandi umutwe ushoboye gutekereza neza, mu byukuri ugomba kubaho umeze neza.

Koza amenyo ukoresheje umugozi ni bintu byiza cyane, kuko ni byo byonyine bishobora kumara imyanda mu menyo.

Gusukura amenyo ukoresheje uburyo butandukanye ntibiyagira ameza gusa, ahubwo biyarinda n'indwara zitandukanye zikomoka ku mwanda.

Muganga wabugenewe uzobereye mu by'indwara zifata amenyo ari gukura umurwayi iryinyo akoresheje ibikoresho byabugenewe.

Umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse wambaye uturindantoki, araza agasuzuma neza indwara umurwayi afite, by'umwihariko niba ari iryinyo aritegereza neza ku mashusho yahawe n'ikoranabuhanga akamenya irirwaye.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga biba kwa muganga biri mu moko atandukanye nka za mudasobwa ndetse n'ibindi byose. Ni ibyo gufasha abaganga kureba ibibazo abarwayi bafite.

Umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse ufite ikaramu ari kwandika ibyo amaze kubona mu bushakashatsi yarari gukora bushingiye ku buzima bw'amenyo.

Umusore ufite amenyo meza kuko ayagirira isuku. Akoresha akagozi cyangwa urudodo agakura imyanda yose hagati y'amenyo. Mu bykuri ni byiza ndetse nib'ingenzi kugirira isuku amenyo yacu.

Umukobwa mwiza wambaye isengeri y'umweru, ari koza amenyo ye akoresheje uburoso n'umuti wabugenewe korogate, kugirango y'irinde indwara zitandukanye zikomoka ku mwanda.

Ni byiza kwigisha abana gusukura amenyo bakoresheje uburoso ndetse n'umuti wabugenewe kugira ngo birinde indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda w'amenyo.

Umubyeyi yigisha umwana mutoya koza amenyo akoresheje uburoso ndetse n'umuti wabugenewe korogate mu rwego rwo kumurinda indwara zikomoka ku mwanda w'amenyo.

Umusore wambaye ikote ry'ikoboyi ufite ubwanwa bwiza akaba agaragaza ko kwita ku isuku y'amenyo ari byiza cyane ndetse bifasha kwirinda indwara zitandukanye.

Umusore uri koza amenyo akoresheje akagozi kugira ngo abashe gukuramo imyanda yose yafashe hagati y'amenyo, igihe yaryaga ibiryo bitandukanye.

Itsinda ry'abaganga baje gupima ubuzima bwo mu kanwa bw'abaturage, kuri uyu munsi mpuzamahanga wo kurwanya ndetse no kwita ku buzima bwo mu kanwa.

Umwarimu mwiza wigisha umunyeshuri uburyo yasukura amenyo ye akoresheje umuti wabugenewe ndetse n'uburoso bwiza kugira ngo yirinde indwara zitandukanye ziterwa no kugirira isuku nke amenyo.

Abasaza babiri umwe witeye umwitero w'umweru n'undi witeye umwitero w'umukara, bakaba bambaye ingofero z'urugara baje mu gitaramo cyo guhuza abakuze.

Abakuze bagomba kwitabwaho ndetse bagafashwa gukora udusiporo tworoheje mu rwego rwo kugira ngo bagire ubuzima bwiza ndetse birinde indwara zitandukanye, ni byiza ko buri wese akora siporo ku rwego rwe.

Umuganga wambaye itaburiya nziza ndetse wambaye agapira k'umweru, imbere akaba yita ku musaza, amuha imbuto ndetse n'umutobe.

Umubyeyi na we akora siporo, ndetse by'umwihariko igihe akuze ari umukecuru ashobora gukora siporo zoroheje agorora umubiri we kugira ngo abashe kwirinda indwara zitandukanye.

Abakecuru batatu bageze mu zabukuru ubona ko bafite imvi ariko bakaba bishimye cyane kubera ko bakurikirana ubuzima bwabo ndetse bakabwitaho bari kwirebera muri terefone bisekera.

Abakuze bafashwa n'abaganga ndetse bakagirwa inama z'uburyo bitwara muri siporo zitandukanye, kugira ngo babashe gukomeza kugira ubuzima buzira umuze.

Umusaza wambaye ingofero n'ishati nziza, akaba ari kumwe n'umugabo ubona ko na we akuze ariko udashaje cyane, bakaba bari gutemberana baganira kugira ngo umusaza abashe kugira ubuzima bwiza.

Umusaza n'umukecuru bageze mu zabukuru, barasoma ku rupapuro ngo barebe uko imiti bahawe ikoreshwa mu rwego rwo kwirinda ko bayikoresha nabi ikabagiraho ingaruka.

Umusaza ufite ubwanwa burimo imvi ndetse n'umukecuru uteze igitambaro cy'umutuku bose bakaba bagaragara nkaho bakundana kuko bafatanye ku rutugu.

Umusaza w'imvi z'uruyenzi ari kwandika mu gitabo, ndetse ari kugenda yibuka ibintu byinshi bitandukanye; bityo ni byiza gusoma no kwandika kugira ngo tubashe kwibuka.

abageze mu zabukuru bitabwaho bakaganirizwa ndetse by'umwihariko nk'abagendera mu tugare bafite ubumuga buterwa n'izabukuru.

Umukecuru ugeze mu za bukuru wambaye urunigi ukenyeye umwitero w'umweru, afite mikoro ari kubwira abandi uburyo yitabwaho bikamufasha mu buzima bwe bwa buri munsi.

Umuganga ari kwita ku musaza, ufite ubwanwa bw'imvi, aho amuha imiti, umusaza na we akanywesha imiti amazi ari mu kirahure.

Umusaza ukuze ufite imvi wambaye umupira ndetse mo imbere akaba yambaye ishati y'ubururu aritabwaho na muganga w'umugore ndetse ari kumugira inama y'uburyo yakwitwara muri ubu buzima.

Ni byiza ko abakuze by'umwihariko abasaza b'imvi z'uruyenzi bageze mu zabukuru bagana ibitaro, maze bakagirwa inama na muganga z'uburyo bashobora kwitwara kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Abakuze nabo bakora siporo kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza, abakecuru babiri bakuze bambaye imyenda y'umukara bari gukora agasiporo koroheje kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umuganga yita ku murwayi w'umusaza ugeze mu za bukuru akamugira inama y'uburyo agomba kunywa ibinini ndetse n'indi miti.

Umuganga akoresha uburyo bwose bushoboka bw'ikoranabuhanga akamenya ikibazo umurwayi afite byaba ngombwa ko yongererwa amaraso nabyo bakabikora.

Abitabiriye amahugurwa yitaga ku bigendanye n'ubuzima bwa muntu, ndetse no gukangurira abantu bose kwita ku buzima bwabo, bifotoreje imbere y'inyubako y'ibitaro bamaze kwitabira aya mahugurwa.

Ikigega mpuzamahanga cy'ubukungu cy'umuryango w'abibumbye, cyasinyanye amasezerano mashya yo kugira imikoranire ndetse n'ubufatanye mu kurwanya indwara ya virusi itera sida.

Abaganga batandukanye bafite gahunda yo kwigisha abantu kwita ku buzima bwabo kugeza ubwo umuntu atazongera kujya arwaragurika.

Ibimenyetso bya diyabete ni ibimenyetso bigaragara ndetse bikeneye kwitabwaho igihe hari ubigaragaje, kuko bishobora gutuma ajya kwipimisha akaba yakurikiranwa hakiri kare.

Ubuzima bwiza ndetse n'imibereho myiza, ni byo buri muntu wese yifurizwa ndetse buri muntu asabwa kwita ku buzima bwe bwa buri munsi kugira ngo abashe kurama ndetse no kubaho neza.

Mu by'ukuri, kovide cumi n'icyenda yabaye icyorezo cyagize ingaruka ku bantu benshi, by'umwihariko twebwe tugomba gufatanya, abana batoya, ndetse n'abandi bose, tukacyirinda, kugira ngo kitazagaruka ukundi.

Abaganga benshi cyane batandukanye, biganjemo abagore, bose bahuriye mu mahugurwa, yabereye mu kigo nderabuzima ndetse akaba yari ari kwiga ku bibazo byugarije ubuzima bitandukanye, birimo n'indwara z'ibyorezo.

Ni byiza n'iby'ingenzi kandi birakwiye ko twese twitabira gahunda yo kurwanya indwara zitandura nka diyabete, ndetse n'imivuduko y'amaraso, n'izindi ndwara nk'izo, kuko zigira ingaruka mbi ku buzima bwa muntu.

Ni byiza ndetse ni iby'agaciro ko twitabira gahunda zitandukanye z'ubuzima ndetse tukirinda kuvangura, twese tugashyira hamwe nta muhungu, nta mukobwa twese tugomba gushyira hamwe tukita ku buzima.

Umunsi mukuru w'ikigo cyo ku rwego rw'isi gishinzwe kwita ku buzima. Cyawuhariye kurwanya indwara z'ibyorezo birimo nka kovide cumi n'icyenda .Ndetse ugaragaza ko hari icyuho ku myumvire ijyanye no kurwanya indwara nk'izi ku rwego rw'isi.

Ni byiza kwita ku buzima ndetse tugafata imiti yose isabwa, harimo n'iyo kwirinda malariya nko gufata inzitiramubu ndetse n'ibindi.

Imbaga nyamwinshi y'urubyiruko rwahuriye hamwe mu gikorwa cyo kurwanya virusi itera sida, aho bari bafite insanganyamatsiko igira iti; rubyiruko nime hazaza heza n'uru Rwandarinde virusi itera sida ipimishije uyu munsi.

Kwa muganga haba hari utubati tubitse ibikoresho byinshi, impapuro, imiti ndetse buri kabati, kaba gafite ikibitswemo.

Ibitanda byo kwa muganga, biba ari ibitanda bikozwe mu buryo bwiza, aho umurwayi akiryamaho ndetse ibyuma bikabasha kumusikaninga bikamenya ikibazo afite.

Ikigo kinini nderabuzima kikaba gifite icyapa cyanditseho, aho giherereye n'uko kitwa ndetse kikaba cyegereye umuhanda.

Inyubako nziza y'ibitaro bikomeye ndetse ikaba ari inyubako ifite imyanya yo guparikamo imodoka, ifite aho binjirira hari ibyuma babanza gufungura kugirango umuntu ufite imodoka yinjire.

Mu by'ukuri kwita ku buzima ni ibintu by'ingenzi, ni nayo mpamvu inyubako zo kwa muganga ziba zubatse mu buryo bwiza bufasha buri murwayi wese.

Ibitanda byo kwa muganga byinshi, nta murwayi n'umwe urimo, ahubwo abarwayi ntago barembye kuko iyo barembye baza kurwarira kuri ibi bitanda.

Akarere ka Nyarugenge gafite ibitaro byiza cyane, byo ku rwego rwa mbere ku buryo umurwayi wese ugana ibi bitaro, ataha abonye serivisi yifuza.

Kwa muganga mu nyubako yabo by'umwihariko aho bakirira abarwayi bakigera kwa muganga haba serivisi nziza ku buryo bakurikirana uko baje ntawe ujya imbere y'undi usibye igihe hagaragaye nk'umurwayi ufite ubumuga.

Inyubako yo kwa muganga igira utuyira twinshi bitewe nuko buri muntu wese ukora kwa muganga, niba ari umuganga usuzuma afite aho akorera, niba ari utanga imiti afite aho akorera, kandi hagomba kugaragara akayira kajyayo.

Umwana mutoya urembye ashyirwamo seromu na muganga kugira ngo ibashe kumwongerera amaraso, bityo ataza kugira ibibazo bikomeye.

Ikigo nderabuzima cya Gishweru, ni ikigo gitanga serivisi neza ku barwayi ku buryo nta murwayi uza ngo atahe ativuje uko abyifuza.

Umuganga ubizobereye ushinzwe kwita ku bana, kwa muganga niwe ukurikirana ubuzima bw'umwana akamenya ibibazo afite ndetse akagira inama umubyeyi kugira ngo bite kuri uwo mwana.

Umubyeyi yazanye umwana mutoya kwa muganga ndetse umwana bamufubika imyenda myiza y'umweru, bamwambika n'ingofero nziza, umuganga ari kumwitaho amuha imiti itandukanye.

Icyumba cya operasiyo kwa muganga, ni icyumba gikorerwamo ibaga ry'uburwayi butandukanye, urugero nk'ibaga wenda ry'umutima cyangwa n'ikindi gice cy'umubiri.

Ni byiza ko inyubako yo kwa muganga igira icyapa kigaragaza imikorere y'icyo kigo nderabuzima ndetse na serivisi zitangwa n'igihe zitangirwa.

Ibitaro bikomeye bimwe mu byo mu Rwanda bitanga serivisi nziza ku babigana bifite ibikuta byiza ndetse bifite amayesikariye azamuka abijyaho abereye ijisho.

Kwa muganga hari inyubako nziza cyane imbere yaho hari icyapa kiriho imikorere y'icyo kigo nderabuzima ndetse abarwayi bicaye iruhande ku ibaraza bategereje ubuvuzi.

Mu bitaro kwa muganga haba ibikoresho by'isi bitandukanye byifashishwa mu kuvura ndetse no gusuzuma abarwayi ndetse ibyo byuma ubugubu bikaba ari ibikoresho bikomeye cyane.

Mu by'ukuri, ubuvuzi bumaze gutera imbere ku buryo hari ikoranabuhanga rigiye ritandukanye ryifashishwa mu kuvura indwara zimwe na zimwe ndetse bikaba byiza kuko buri murwayi wese yitabwaho ku rwego rwe.

Inyubako nziza igezweho yo kwa muganga aho harimo ibyumba bitandukanye bitangirwamo serivisi zose zo ku rwego rw'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye.

Ku kigo nderabuzima cya Shagasha, hakunze kugaragara abarwayi ndetse n'ababyeyi baje kuvuza abana, biyicariye ku kabaraza bategereje abaganga.

Mu nyubako yo kwa muganga, hari ahaba ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga ndetse hakaba hari utumeza twinshi dutatseho ibitambaro.

Abaforomo batatu bambaye amataburiya y'ubururu ndetse bateze udutambaro tw'umweru bagira uruhare rukomeye cyane mu kubaka ubuzima.

Imashini zahabugenewe zitanga serivisi zitandukanye kwa muganga, nko gupima ibizamini by'abarwayi, kubibika neza, ndetse no gufasha umuganga kumenya uburyo bwo kwita ku murwayi.

Inyubako icuruza imiti ikaba ari inyubako ikunze kugira abakiriya ndetse imbere yayo haba haparitse imodoka nyinshi zaje gushaka serivisi z'ubuzima.

Mu by'ukuri inyubako yo kwa muganga, ni inyubako igomba kuba yubatse mu buryo bwiza, ndetse aho buri muryango uba ufite serivise utangirwamo.

Ikigo kinini cy'ubushakashatsi bushingiye ku kumenya ubuzima bwa muntu n'indwara ahura nazo mu buzima bwa.

Inyubako yo kwa muganga, ni inyubako nziza ifite umuryango ukinguye, ndetse ikaba ifite jaride nziza irimo imikindo n'izindi ndabo zitandukanye.

Abaganga baburiye mu nama yahuje abaganga ndetse n'abaturage mu rwego rwo kwita ku buzima butandukanye no gutanga serivisi nziza ku barwayi.

Mu by'ukuri muri iki gihe ubuvuzi bwateye imbere ku buryo kwa muganga usanga hari ibikoresho bitandukanye bifasha abarwayi ndetse bikanafasha abaganga kumenya ibibazo by'abarwayi.

Mu by'ukuri umuntu ukuze ni byiza ko yitabwaho ndetse agahabwa umwanya akaganirizwa kugira ngo nawe yiyumve muri sosiyete y'abantu basanzwe.

Kwa muganga hari ibitanda byinshi ariko ibiriho abarwayi barembye ni bibiri ndetse baryamye mu buryo bwiza buri wese ku gitanda cye; biyoroshe amashuka meza ndetse bigaragara ko bari kwitabwaho n'abaganga.

Mu by'ukuri kwa muganga kuri ubu, ni ahantu ho gukirira ku buryo umurwayi ugezeyo ahabwa ubuvuzi butandukanye, bitewe n'ikoranabuhanga rihari, ryifashishwa mu kuvura no kwita ku barwayi.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye. Ikaba ifite inkingi y'umweru yanditseho ngo Isange One Stop Center. iherereye i Remera, i Rukoma, iriho kizimyamoto isa umutuku ndetse hari n'ubusitani bwiza cyane.

Mu bitaro kwa muganga, umurwayi aryamishwa ku gitanda cyabugenewe, hanyuma agakomeza kwitabwaho na muganga, igihe cyose akirembye.

Kwa muganga hari inyubako nziza ibereye ijisho, ku buryo buri murwayi wese abasha kwitabwaho, icyiciro icyo ari cyo cyose yaba arimo.

Ku bitaro by'umwami fayisali hashinze amadarapo y'ibihugu bitandukanye, ndetse hari idarapo mpuzamahanga rigaragaza ko ibi bitaro ari mpuzamahanga.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga bimaze kugerwaho cyane mu bitaro bigiye bitandukanye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kubera ko ahenshi usanga bifashisha ikoranabuhanga mu buvuzi.

Ibitaro bya Nyanza ni ibitaro biri ku rwego rwo hejuru aho bishobora kwakira abarwayi barenga ibihumbi bibiri kandi bose bakitabwaho neza.

Ibitaro byose bigira aho bafatira ibizami hazwi nka laboratwari ndetse aha ngaha hakaba hafatirwa ibizamini bitandukanye birimo n'ibya malariya.

Mu by'ukuri ni byiza cyane kwitegereza ibyapa biba biri ku nyubako z'ubuvuzi butandukanye, cyane cyane nk'ibitaro; kuko bakubwira uburyo bakora binyuze muri ibyo byapa.

Ibitaro byiza cyane byubatse mu nyubako zigezweho, imbere yazo hakaba hari icyapa kigaragaza uko batanga serivisi.

Mu bitaro kwa muganga aho abarwayi baryamishwa hari ibitanda ariko biriho abarwayi bakeya kandi buri murwayi aryamye ku gitanda cye.

Ku bitaro kwa muganga hari inyubako nziza cyane, iyo nyubako iri ahantu hitegeye hasa nko ku gasozi ariko atari agasozi kanini cyane. Iruhande rwaho hari icyapa kinini ndetse kirekire cyanditseho ibyo icyo gitaro gikora.

Abaganga batatu bambaye amataburiya bari gupima umurwayi, umwe ari kwandika ibisubizo ari kubona ndetse hateretse agacupa karimo umuti wica udukoko.

Ihuriro ry'abanyabuzima ndetse n'abaforomo n'abayobozi batandukanye, barimo ingabo ndetse na polisi, bose bakaba bari ku bitaro aho baje kugirwa inama ku byemezo byo kwita ku buzima.

Inyubako igezweho y'ibitaro, ndetse ikaba ari inyubako irimo intebe nziza z'imisego, umuntu yicaraho akumva amerewe neza.

Kwa muganga haba ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga bifasha abaganga gusuzuma neza indwara umurwayi arwaye ndetse bakamenya imiti bamuha.

Ikoranabuhanga rihambaye rikoreshwa kwa muganga mu rwego rwo gupima abarwayi ndetse no kureba imiti bakwiye guhabwa rumaze gutera imbere cyane mu bitaro byinshi.

kwa muganga iyo umurwayi arembye cyane abaganga baraza bakamufasha uburyo bwose bushoboka bamuryamishije ku gitanda cyihariye cyabugenewe ndetse bagakoresha ikoranabuhanga rihambaye kugira ngo bamusuzume.

Kwa muganga mu bitaro haba ibitanda byiza abarwayi baryamaho ndetse haba n'abashinzwe isuku bakora isuku buri kanya, kugira ngo birinde ko hari umwanda wagera ku barwayi.

Mu bitaro byo kwa muganga haba hari igitanda kiza, umurwayi aryamaho ndetse hakaba hari ikoranabuhanga rishobora kumufasha mu buryo butandukanye.

Umusore wambaye ekuteri ari kumva akaziki, nyuma yo gukora siporo ari kunywa amazi meza ndetse yambaye agapira k'umweru.

Umusore wakoraga siporo hanyuma akagira ikibazo cy'imvune, abakozi b'umuryango utabara imbabare ba kuruwa ruje bahise baza kumutabara ndetse bamwihutana kwa muganga.

Umuntu mukuru akora siporo zitandukanye zirimo kugenda asimbuka amayesikariye cyangwa uturongo yihaye adusimbuka, agenda ajugunya n'umupira yongera awusama bikamufasha kugororoka.

Umukobwa mwiza afite amaguru meza akaba ari muri siporo, yarambuye ukuguru kumwe ubundi araguhina ndetse aryamye agaramye, ari gukora siporo ngo agorore umubiri we.

Umugabo n'umusore bari muri siporo, bagomba gukora siporo zitandukanye bagiye mu nyubako zizwi nk'inyubako za siporo jiminaziyamu akaba ari ho hari uburyo bwinshi bwo gukora siporo zitandukanye.

Akabogisi kabitsemo ibikoresho byinshi bikoreshwa na muganga, birimo imakasi, impapuro z'isuku, imiti, ndetse n'ibindi byinshi biri hamwe.

Kwa muganga bagira udukoresho twinshi tw'ikoranabuhanga twifashishwa mu gusuzuma no kuvura abarwayi uburwayi butandukanye.

Umukobwa na we ashobora gukora siporo ngororamubiri mu buryo butandukanye bityo bikamufasha gufata neza ubuzima bwe kuko sibya buri wese ahanini usanga abakobwa bamwe na bamwe badakora siporo.

Umukobwa wambaye ipantaro imwegereye, ndetse wambaye isengere y'umukara ari gukora siporo zitandukanye, aho ari kugenda arebera kuri mudasobwa yitegereza umwarimu we, ibyo akora nawe akabikora.

Umuntu ukora siporo ashobora kugira imvune yo mu ivi, bityo akaba ari imvune ikomeye cyane, ni byiza ko ugana muganga igihe cyose ugize imvune yo mu ivi.

Umuntu wakomeretse nyuma yo gukora siporo ajya kwa muganga bakamupfuka ndetse bakamuha ubutabazi bw'ibanze, kugira ngo akomeze kuba muzima.

Imbago ni inkoni yabugenewe yifashishwa n'umurwayi ufite ikibazo cy'ukuguru, akayifatisha mu kuboko ikamanuka igakora hasi bityo akabasha kugenda.

Umuntu wese wagize igikomere ajya kwa muganga bakamushyiriraho imiti ndetse bakamupfukira igisebe kugira ngo kidakomeza kujyamo imyanda.

Rimwe na rimwe gukora siporo biba byiza, ariko bikaba akarusho iyo ukoze siporo ufite na muganga ubishinzwe, ugufasha gukora izo siporo, bigendanye n'ubuzima bwawe uko buhagaze.

Umusore uri gukora siporo, aho yafashe akaguru kamwe akakazamura hejuru ku biti ndetse akandi kakaba kari hasi, bigaragara ko ari gukora siporo ngororamubiri kugira ngo agorore imitsi ye.

Muganga ari gusuzuma umwana akoresheje icyuma cy'ikoranabuhanga ndetse umubyeyi na we wambaye agapfukamunwa, ateruye umwana ndetse anamufata neza kugira ngo atikubaganya.

Mubyukuri siporo ni ingenzi cyane, by'umwihariko ku bantu bashaka kugira ubuzima bwiza ndetse no gukomeza kubaho bafite ubuzima bw'indahangarwa.

Uruhurirane rw'ibikoresho n'imiti iba iri kwa muganga ndetse ishobora kwifashishwa n'umuntu wavunitse harimo pomade ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Icyuma cy'ikoranabuhanga kiba kwa muganga, cyifashishwa mu gupima indwara abarwayi batandukanye ndetse kikaba kinazwiho gusuzuma umubiri wose.

Nibyiza birakwiriye ko tugana ibitaro bakadufasha kwirinda indwara zitandukanye ndetse no kuzivura bitewe n'uko bafite ibyuma by'ikoranabuhanga bibafasha kwereka ubuzima bw'umurwayi.

Kunywa amazi meza ni byiza cyane by'umwihariko igihe umaze gukora siporo kubera ko ufasha umubiri wawe kongera kwisubiza imbaraga no gukuramo imyanda ni imwe n'imwe yagiye isigara mu mubiri.

Muganga aba afite ibikoresho by'ibanze byo gufasha umurwayi igihe cyose bibaye ngombwa, nkaho ashobora kuba afite igikapu kirimo amaserumo yatera umurwayi urembye, mu gihe bibaye ngombwa ko amutabara.

Umukobwa akora siporo zitandukanye ngororamubiri, amanura amaguru, ayahina yongera ayahinura ndetse amaboko yayarambuye neza bityo bikamufasha kugabanya ibiro ndetse no kujya ku biro bikwiye.

Umukobwa mwiza uri gukora siporo zo kunanura umubiri by'umwihariko akaba ari kumanura amaboko anayazamura ibyo bikamufasha kugira inda ntoya ndetse no kugira taye nziza.

Igihe umaze gukora siporo ni ngombwa kurya ibintu birimo imbuto zitandukanye kuko bifasha umubiri wawe aha twavuga nka avoka pome inyanya cshufure ndetse nib no kurya n'agasenda.

Ipamba ry'umutuku, ni ipamba rikoreshwa kwa muganga mu bigendanye no gupfuka ndetse no gukamya amaraso.

Ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga bishobora gufasha umurwayi. Muganga ari kwandika mu ikarine uburyo agiye kwita ku barwayi batandukanye.

Umukobwa mwiza wambaye ekuteri ndetse waziritse telefone ku kuboko ari gukora siporo ngororamubiri ndetse akazikora yicaye arambuye amaguru.

Kwa muganga haba ibikoresho byinshii bitandukanye, bigenda bifasha muri serivise z'ubuvuzi ndetse bikaba bifite ibyumba bibikwamo kuburyo biba byizewe ko bitakangirika.

Igihe umurwayi aje kwivuza yavunikiye muri siporo, ahabwa ubutabazi bw'ibanze, harimo gupfukwa igihe yagize ibikomere, ndetse no gusigwa pomade, kugira ngo uburibwe bugabanyuke.

Igihe ukora siporo uba uri gufasha impyiko zawe gukora neza, kubera ko impyiko zigira uruhare rukomeye cyane, igihe ziyungurura amaraso.

Umukobwa amaze gukora siporo ariko ari kunywa amazi. Kunywa amazi ni byiza cyane ndetse ni ingenzi. Igihe cyose ukeneye kunywa amazi unywa amazi meza kugirango agufashe mu mubiri wawe.

Igikapu cya muganga kiba gibitswemo ibikoresho by'ibanze ashobora kwifashisha igihe agiye kwita ku murwayi, ndetse hakaba harimo nk'amapombo arimo inshinge ndetse n'ibindi bitandukanye.

Sigisi paka ni agakoresho kagura ibihumbi ijana na makumyabiri by'amanyarwanda, kakaba gafasha abantu bafite inda kuyigabanya, mu buryo bwa siporo.

Mu rwego rwo kugabanya umuvuduko w'amaraso ushobora gukora siporo zitandukanye kandi ibyo byakurinda na siteresi ndetse bikagufasha mu bigendanye no kumenya iringaniza ry'umuvuduko w'amaraso yawe.

Nyuma yo gukora siporo, ugomba kurya ibiryo bitandukanye by'umwihariko nk'amagi, imineke, inkeri, ndetse n'izindi mbuto zitandukanye.

Igihe ukora siporo ushobora gukina imikino itandukanye, irimo nk'umupira w'amaguru, uwa basketiboro, uwa voleboro cyangwa ugakina agapira gatoya kazwi nk'akatenisi.

Ibikoresho biba kwa muganga ni ibikoresho bikomeye ku buryo bifasha abaganga kuvura ndetse no kwita ku barwayi nta nkomyi, ku buryo nta murwayi ushobora kuremba cyangwa ngo agire ikibazo gikomeye yageze kwa muganga.

Mu by'ukuri ni byiza cyane igihe ukora siporo, ukagira ikibazo cy'imvune, kujya kwa muganga kugira ngo aguhe ubuvuzi, ndetse agufashe byimbitse.

Umuntu w'umusore wakoze siporo akavunika ajya kwa muganga ndetse akabwira muganga uko yavunitse bityo akabasha kumwitaho.

Umusore w'amatuza manini n'ukuboko kunini yakoze siporo bituma agira imbaraga ndetse agira imitsi ikomeye ndetse akaba ari n'umusore w'intarumikwa.

Igihe cyose wagize imvune mu ivi ni ngombwa kugana muganga, kugira ngo agufashe amenye ikibazo wagize akugire inama cyangwa aguhe imiti.

Amazi meza ari gusukwa mu kirahure. Ni amazi y'urubogobogo, akaba ari nayo mazi dusabwa kunywa, kuko tugomba kunywa amazi meza asukuye.

Umusore mwiza uri kunywa amazi, nyuma yo gukora siporo kugira akomeze kumufasha kugarura imbaraga n'ubuyanja mu mubiri.

gukora siporo ni ingenzi cyane cyane siporo ngororamubiri ndetse biba byiza iyokoze siporo wambaye guteri wumva akaziki ndetse ukajya usoma no ku mazi meza

Ku bitaro kwa muganga, igihe cyose bamaze gusuzuma umurwayi bakamusangana uburwayi bukomeye, bajya inama y'icyo bakora, imiti bamuha, ndetse n'ubundi buvuzi bashobora kumuha.

Uwaje gushaka serivisi z'ubuvuzi kubera kuvunika mu gihe cyo gukora siporo, akaba yaravunitse ivi ariko umuganga amufasha kugenda agorora ukuguru.

Umuntu wavunitse akagombambari ajya kwa muganga bakamusuzuma bakareba neza niba nta ngaruka ikomeye imvune ishobora guteza kuko hariya ni mu rugingo rubi ushobora kuvunika ukaba wacika ukuguru.

Igihe cyose uri gukora siporo ni ngombwa gukora siporo zitandukanye, sigombwa gukora siporo zo kwiruka gusa kandi ushobora kugira agisida ukaba watemba bityo ugomba kwirinda igihe cyose uri gukora siporo.

Gukora siporo zitandukanye zirimo gusimbuka, gutaruka, kurambura amaboko uyajyana imbere uyagarura inyuma ni siporo nziza cyane kandi zitaruhije abazikora.

Igihe umaze gukora siporo ni byiza kurya imbuto nka pavuro, amatunda, inyanya ndetse n'izindi mbuto n'imboga bitandukanye, bigufasha kongera kugarura ubuyanja.

Umukobwa uvuye kwipfukisha kwa muganga, aho yapfutswe munsi y'ivi ahazwi nko ku murundi bitewe n'igikomere yahagize igihe yakoraga siporo.

Kunywa amazi igihe cyose umaze gukora siporo ni byiza cyane kuko bifasha umubiri wawe gusohora imyanda imwe n'imwe yagiye isigara mu mubiri.

Kwa muganga haba ikoranabuhanga rigezweho ritandukanye ryifashishwa mu buvuzi bitewe n'urwego rw'uburwayi umurwayi afite ndetse buri muganga wese agira uruhare mu gukoresha iri koranabuhanga.

Igikarito kirimo umuti ndetse kirimo ibintu bishobora kugufasha igihe umaze gukora siporo, ni igikarito kizingiyemo ibintu byinshi cyane.

Uwagize igikomere igihe cyo gukora siporo ajya kwa muganga, hanyuma bakamukorera ubuvuzi ndetse bakamupfuka inkomere.

Umuganga urimo gupfuka ndetse no kuzirika umuntu wagize ikibazo cy'imvune mu kagombambari ku buryo bikomeye ko yagenda byoroheje.

Gutunganya imiti ya gakondo ntibiba byoroshye, bisaba ibintu byinshi birimo amasekuru, udukono ndetse n'ibindi bikoresho byo mu muco nyarwanda.

Icyatsi gikomeye cyane kigira uruhare mu kuvura indwara zitandukanye gikunze kuboneka mu bihuru ndetse no mu mashyamba y'inzitane, kikaba kizwiho gutanga ubuvuzi bukomeye cyane ndetse bwizewe.

Ibimera bitandukanye bivamo imiti igatunganywa ikaba imiti inyobwa cyangwa iribwa ishobora kuvura indwara nyinshi cyane.

Ibimera bitandukanye biboneka hirya no hino mu gihugu byifashishwa mu gukora imiti gakondo kuko ahanini usanga imiti gakondo myinshi ikomoka ku bimera.

Igisubizo kuri amibe. Benshi bazi umuti ukomeye cyane ukomoka ku bimera ndetse ukaba uvura amibe kandi iyi ndwara ikaba ikunze kwibasira abakuze.

Umuganga niwe ugena uburyo imiti itangwa ndetse n'ingano y'imiti igomba kunyobwa ku gihe runaka cyagenwe kugira ngo hirindwe ingaruka zituruka ku gukoresha nabi imiti.

Umuvuzi wa gakondo afata ibyatsi akabyumisha cyangwa se akabyanika, hanyuma akabisya agakoramo agafu; mbese ukaba ari umuti wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Icupa ritoya ripfundikije umufuniko w'umweru, ririmo umuti wa gakondo ndetse inyuma hariho igipapuro cyanditseho uko iyo miti ikoreshwa. Iruhande rwaho hateretse ijerekani nini ishushanyijeho ikimera umuti urimo uvamo.

Ibinini na byo bishobora gukoreshwa nk'imiti ya gakondo igihe byatunganyijwe biturutse ku miti itandukanye ya gakondo.

Imiti ikomoka ku bimera, irasekurwa hanyuma igatunganywa, bityo ikabikwa neza kugira ngo izafashe abantu barwaye indwara zitandukanye.

Uruhurirane rw'imiti itandukanye iri mu macupa yabugenewe, amato ndetse n'amanini, ay'umweru n'ay'umukara yanditseho uburyo ikoreshwa.

Ni byiza cyane gukoresha umuti gakondo nk'uko wabitegetswe na muganga kubera ko uramutse urengeje bishobora kukugiraho ingaruka.

Amacupa atandukanye ndetse afite imifuniko myiza, yanditseho ibipapuro inyuma bigaragaza amagambo yuko imiti irimo ikoreshwa, kandi ikaba ari imiti ya gakondo.

Amavuta meza cyane y'uruhu, akomoka ku bimera ndetse ashobora gukoreshwa nk'umuti wa gakondo uvura indwara z'uruhu zitandukanye.

Ibimera ni byiza cyane bidufasha mu kuvura indwara zitandukanye ndetse by'umwihariko ibimera bikunze kuboneka mu bihuru no mu mashyamba.

Imiti gakondo itandukanye, yatunganyijwe igashyirwa mu macupa ndetse no mu makarito, ikaba ari imiti yemewe, kandi ifite ubuziranenge.

Ibimera bikunze kugaragaramo iby'imiti byinshi cyane ndetse abanyarwanda benshi bagiye bakoresha iyi miti mu rwego rwo kwivura indwara zikomeye ndetse n'izoroheje.

Umuravumba kubera akamaro kawo n'uburyo ugira uruhare mu kuvura indwara zitandukanye, ubu wabaye igihingwa gishobora kubyara inyungu aho abantu bagihinga bakakigurisha.

Ibimera bitandukanye bikunze kuba mu mashyamba, mu bihuru ndetse n'ahandi henshi hatandukanye nko muri za pariki, ni ibimera byifashishwa mu gukora imiti gakondo.

Umuravumba ni ikimera gikunze kugira uruhare mu buvuzi butandukanye rimwe na rimwe uzabona amacupa arimo imiti yanditseho ngo umuravumba bivuga ko uwo muti ukozwe mu muravumba.

Imajerekani meza y'umuhondo abitse mu gikoresho cyabugenewe, akaba arimo umuti wa gakondo ukomoka ku kimera cyitwa igikakarubamba, iki gikakarubamba kivura indwara zitandukanye.

Amacupa abiri y'umuhondo ateganye, iruhande rwayo hari ibikarito, ibyo bikarito bibiri birimo imiti ya gakondo, inyuma kuri ibyo bikarito handitseho amagambo yo mu ibara ritukura n'andi yo mu ibara ry'icyatsi.

Mu by'ukuri gahunda yo gukomeza kwita ku buzima irakomeje mu Rwanda, aho bagenda biga uburyo bushya bwo kwita ku barwayi batandukanye.

Amacupa atatu arimo umuti ukomoka ku bimera, ukaba ari umuti uzwi nk'umuti wa gakondo ariko ukaba uvura cyane.

Icupa ryiza cyane, ni icupa ripfundikiye rifite igipapuro kirifunitse cyanditseho ijambo umuravumba. Bisobanurwa ko harimo umuti witwa umuravumba cyangwa ukomoka ku muravumba.

Amacupa atandukanye, arimo imiti gakondo ikoreshwa mu buvuzi bwa rusange ndetse no mu buvuzi bwihariye by'umwihariko akaba akoreshwa naba muganga bigenga.

Amacupa atatu arimo imiti ya gakondo, akaba ateretse iruhande rw'irindi cupa rirerire ndetse rinini na ryo ririmo umuti wa gakondo ukomoka ku bimera.

Icupa ry'umweru, rifite akarongo kazengurutse k'icyatsi, kagana ku ndiba yaryo, rikaba ririmo umuti uvura indwara nyinshi zitandukanye.

Umuti ukomoka ku bimera bitandukanye ukaba ufasha abantu kwirinda indwara zitandukanye, ni umuti mwiza cyane ndetse woroheye buri wese.

Ibimera bitandukanye byifashishwa mu gutanga ubuvuzi igihe byatunganyijwe neza, ni ibimera bikwiye kwitabwaho ndetse bikagirirwa ubuhinzi bwihariye.

Vitorinzi ni umuti uvura indwara zitandukanye, akaba ari umuti ukomoka ku bimera upfunyitse mu icupa ryiza cyane ritoya riringaniye.

Amacupa abiri y'umuhondo afite imipfundikizo y'ubutuku, ikaba ipfundikiye neza umuti urimo kugira ngo utangirika.

Ibimera bitandukanye nk'umusave, ni ibimera bikunze kugira uruhare mu buvuzi bwa gakondo, benshi bita ubuvuzi bwa kinyarwanda. Ibi bimera bikunze kwifashishwa n'abaganga ba kinyarwanda.

Umuravumba ni ikimera kizwi cyane n'abanyarwanda benshi kuko kigira uruhare mu kuvura indwara zitandukanye, ndetse bamwe na bamwe bagikoresha bidasabye ko gitunganirizwa ahabugenewe hatunganya imiti.

Ibimera bivamo imiti itandukanye ya gakondo ndetse iyi ngiyi ikaba ari imiti ikunzwe kuvugwa ko ari imiti ya kinyarwanda, mbese bisobanura ko abanyarwanda ba kera bivuraga bakoresheje imiti ikomoka ku bimera.

Ibimera bitandukanye biratunganywa binyuze mu gusekurwa ndetse no gusebwa, byarangiza bigashyirwa mu macupa yabugenewe bityo bigafasha mu buvuzi gakondo.

Imiti ya gakondo iva mu bwoko butandukanye bw'ibimera ndetse n'ibindi binyabuzima bigaragara hano kuri iyi si, ariko umuvuzi aragenda akayitoranya akamenya ngo iyi ngiyi izavura iki iyi izavura iki.

Agasahani karimo ikiyiko gifashe umuti wa kinyarwanda. Hirya hari tangawizi n'ibyatsi byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo buvura indwara za kinyarwanda.

Imiti gakondo n'imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi bw'abaganga ba kinyarwanda, ndetse ivura indwara zitandukanye zirimo n'indwara zitandura..

Imiti itandukanye ya gakondo yavangavanzwe ikavangwamo n'ubuki yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, ndetse n'izo ku rwego rwo hejuru.

Imiti gakondo ibiri mu bwoko butandukanye hari iyo basoroma amababi, hari iyo bakura imizi, hari iyo bafata ibishishwa by'igiti runaka biterwa n'umuganga uko abizi.

Igikarito kirimo imiti itandukanye ikomoka ku bimera ikaba ari imiti izwi nk'imiti ya gakondo ivura indwara zitandukanye.

Indwara y'umugongo ni indwara ifata umuntu uwo ari we wese, by'umwihariko abakuze ariko hari umuti uyivura igakira neza ndetse uyu muti ukaba ari umuti wa gakondo.

Mu bihuru bitandukanye ni ho hava bimwe mu byatsi bitanga imiti ya gakondo ndetse rimwe na rimwe ibi byatsi ntibipfa kuboneka ahantu hose.

Kapusine ni ubwoko bw'ikimera gifite imyunyungugu, aho gifite ubushobozi bwo kuvura inkorora ndetse n'izindi ndwara zitandukanye.